Mu masoko amwe n'amwe agezweho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu karere giherereyemo, usanga hacururizwamo imbuto, imboga nk'inyanya, intoryi, imiteja, karoti n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Ubu ngubu biroroshye cyane kubona inzu y'inzozi zawe wifuza, kubera ko abantu benshi barazicuruza kandi bakanakurangira, abakomisiyoneri bizewe babigufashamo ukayibona mu buryo bwihuse.